Ndi kubona moto iri mu bwoko bwa sipiro, umumama uhetse umwana uteruye ibintu mu ntoki mu gafuka, ingorofani, imodoka ya tiriniti, feruje, imodoka isanzwe iri mu bwoko bwa korola ayigesi, yego n'umuntu uhetse imifuka.